Amashuri yo muri pirimeri akwigisha gusoma ukamenya gusoma neza kandi amashuri akwigisha n'imibare ukarangiza pirimeri uzi imibare kandi uzi no gusoma neza.

Amashuri yibanze aradufasha iyo abana bananiranye babajyana muri ayo mashuri kugira ngo bagire uburere bwiza bagakura bazi imibare, bazi ibintu byinshi.

Amashuri y'ibanze ni meza aradufasha iyo umuntu atazi imibare ariga, kandi agakurikira maze akayimenya kandi amashuri afasha n'abana bananiranye maze bakaba abana beza.

Iyo urangije kwiga mu mashuri yo muri secondari, uza kwiga imashini wayimenya ukazajya uradoda imyenda baguha amafaranga maze ukiteza imbere.

Iyo abantu barangije kwiga muri segondairi, baraza bakajya muri sitaje, maze bagakora muri sitaje ibijyanye n'ibyo bize, bakareba niba barabimenye.

Kwiga kudoda ni byiza iyo umaze kubimenya kudoda imyenda bakaguha amafaranga. Nawe wigisha abandi bagakomeza kuguha amafaranga kandi amafaranga ushaka.

Kwiga muri segonderi ni byiza, kandi turabikunda uyu muntu yiga muri segonderi, amenya gusoma ikinyarwanda neza, n'icyongereza agisoma neza, kandi amenya kwandika neza.

Ku bitaro haba hariho imiti myinshi y'ubwoko bwose. Iyo ugiye ku bitaro baguha umuti ujyanye n'indwara urwaye, maze ukawunwa ugakira.